Inyubako nziza sitipulaza ubu ni muri hoteri amatente, abantu indabyo, imihanda myiza ikirere kiza.

Imihanda y'igitaka ibipangu amamodoka abantu amazu meza cyane, amashyamba, amapoto, insinga, ibimera.